Ubwatsi bwiganjemo umucaca burishwa n'inyamaswa zo mu rugo nk'ihene, intama n'inka, buno bwatsi kandi bushobora gukoreshwa mu kurwanya isuri iyo butewe ku migenda y'amazi, bubasha gukomeza iyo migenda ku buryo idashobora kwangizwa n'amazi mu gihe cy'imvura nyinshi, cyangwa se igihe isuri ishobora kwangiza ubutaka.

Isyamba ririmo ibiti by'inturusu byifashishwa mu gucana, gukora amakara, kubaka, kubaza imbaho, kandi ibi biti bishobora no kwifashishwa mu buvuzi kuko amababi yabyo akoreshwa mu kuvura indwara y'ibicurane.

Abakozi batandukanye ,bari gukoresha umupira w'amazi ,bacucira imyaka y'ibirayi, kugira ibashe kubona amazi mu gihe imvura itari yagwa ,bi bikorwa kugira ngo barwanye ko yakuma.

Avoka nirwo rubuto rwihariye ugereranyije n'izindi. Impamvu nta yindi ni uku aho kugira amasukari menshi nk'izindi yo yibitsemo amavuta， ifitiye akamaro kanini umubiri kuko ikungahaye kuri vitamini nka a b c na k.

Ikigori ni kimwe mu binyampeke bigaragara mu ifunguro ry'ibanze rya hafi, kandi rifatiye runini umubiri wacu. Ibigori kandi bishobora gukoreshwa mu gihe bakora nka kawunga, ibigori bishobora no kuba byakwifashishwa mu gihe babetesha ifu y'igikoma.

Igiti cy'umubunda gikikije, uruzitiro rw'amabuye iki giti cyifashishwa mu gihe bazitira nk'urugo uruzitiro rw'amabuye rwo ni uruzitiro rukorwa hakoreshejwe amabuye akurwa mu butaka.

Umurimo wo guhura ukorwa hagamije gutandukanya ibishimbo n'ibishogoshogo. Iyo birangije guhurwa barabigosora, kugira ngo bibashe kubikwa cyangwa se kujyanwa ku isoko.

Umuceri ni igihingwa cy'ingenzi gitanga imbaraga n'intungamubiri ku mubiri ,ufasha mu mikurire, igogorwa no kurinda indwara z'umutima, ni ibiribwa byoroshe guteka no kurya ,bikaba isoko y'ubukungu ku bahinzi n'isoko mpuzamahanga.

Abagabo babiri barimo guhura ibishimbo. Ubusanzwe ibishimbo iyo bimaze gusarurwa. bikurwa mwa biriya bishishwa byabyo, byitwa ibishogoshogo kugira ngo babashe kubigosora ndetse babibike neza. Ibishimbo ni kimwe mu binyampeke bifitiye umubiri akamaro, biraryoha kandi bikoreshwa mu buryo butandukanye.

Amagi menshi y'umweru arunze mu byibo bibigenewe. Amagi ni ibiribwa bikungahaye kuri poroteyine kandi bikoreshwa mu guteka indyo zitandukanye.